Imodoka y'umweru yanditseho minisitiri ofu herifu Nyagatare hosipito, impande y'imodoka hari abagabo babiri, hafi y'imodoka hari amazu n'ibiti.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga harimo umugore utwite uryamye ku gitanda gishasheho amashuka y'umutuku, imbere ye kandi hari umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru arimo kumusuzuma yashyize akantu ku nda akegeza ku gutwi kwe.

Icyumba harimo abantu bahagaze bambaye amaji yumweru ashushanyijeho imisaraba yumutuku, imbere yabo hari umuntu wambaye ijire y'umutuku ubona ko bari guha ubutabazi bw'ibanze umusore bafashe mumaboko. Muri iki cyumba barimo handitsemo ''World first Aid day 2023.''

Iki ni icyumba cyo kwa muganga bakiriramo abarwayi barembye, harimo igitanda baryamishaho abarwayi.

Icyumba harimo umukobwa wicaye wambaye ijire y'umutuku iriho icyapa cya Croix rouge, harimo n'abandi bambaye ayo amajire y'umutuku, hagati hahagazemo abambaye imyenda y'umweru na ga z'ubururu mu ntoki.

U Rwanda rumaze gutera imbere aho usanga basigaye batabara abarwayi ku gihe, aha ngaha turabona akadege gato kazwi ku izina rya dorone gatwara amaraso, aha ngaha kamaze kunaga amaraso ibi ngibi bifasha abarwayi mu gihe babuze amaraso kugira ngo abagerereho ku gihe.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye igisarubeti cy'umukara n'umuhondo n'akagofero k'umukara, impande hari umugabo wambaye ikote n'ipantaro n'amarinete, afite amazi mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako, imbere y'inyubako hateye ibiti.

Icyumba kirimo umwana urwaye, uryamye ku gitanda, arambuyeho igitenge, imbere ye hari abaganga babiri bambaye ga barimo kumuvura.

Imodoka y'ubutabazi yanditseho Rwanda redi korosi ifunguye inyuma, impande y'iyi modoka hahagaze abantu benshi harimo abagabo bambaye amajire y'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi ku izina rya Imajensi, aho bakiriye abarwayi barembye, muri iki cyumba usanga abarwayi barimo benshi barimo kongererwa umwuka kandi abantu bageze muri iki cyumba abenshi biragoye ko bavamo bakiri bazima uretse ko rimwe na rimwe hari abagira amahirwe bakahava bakiri bazima.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe bafashe ihene mu ntoki, harimo umuntu wambaye ijire y'umutuku, iriho icyapa cya Kuruwaruje.

Umusore wicaye ku muhanda yifashe mu gahanga impande ye hari icupa ry'amazi ya Nile, impande ye kandi hari agafuka k'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo abaganga babiri, umwe aricaye, undi arahagaze, harimo imyenda y'icyatsi abaganga bambara bagiye kubyaza, harimo intebe z'umweru n'ameza.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, harimo abaganga benshi n'abarwayi, hari umurwayi w'umugabo wicaye ku gitanda, urimo serumu ndetse hari n'umuganga urimo kumuganiriza.

Aha ni kwa muganga harimo abaganga, hari umuganga w'umugore uri imbere y'igitanda cyicayeho umuntu, hari n'undi muganga ufite ikaramu mu ntoki n'igitabo, muri iki cyumba harimo n'inzitiramibu.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, turahabona umwana wicaye ku gitanda arimo guseka afite terefone mu ntoki, impande ku kindi gitanda kandi hari umumama urimo kumwenyura wifashe mu myanya ndangakumiro.

Aha ni kwa muganga hari abantu bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza ariho amazi ndetse n'amakayi, hari umugabo uhagaze wambaye isaha ku kuboko, afite n'agapfukamunwa mu ntoki. Muri iki cyumba barimo kandi ku gikuta handitseho rubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bwanyu.

Umugabo wambaye karuvati y'umukara, afite indangururamajwi, inyuma y'uyu mugabo hari ibiti n'inzu isakaje amabati y'umutuku isize irangi ry'ubururu.

Aha ni kwa muganga, harimo abaganga bambaye bikwije, bambaye imyenda y'ubururu irimo umweru, muri iki cyumba harimo intebe n'igitanda kiryamyeho umurwayi, harimo n'inzitiramibu.

Icyumba kirimo abantu benshi bamwe barahagaze abandi baricaye hari umubyeyi wicaye uteruye umwana mu ntoki.

Aha ni kwa muganga, hicaye abarwayi benshi batandukanye, hari abantu babiri umugore n'umugabo bahagaze barimo kuganira, ndetse hari n'utwana tubiri duhagaze turimo kurebana.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe, ubukarabiro hari umuganga uhagaze ufite terefone mu ntoki.

Abantu bicaye abandi barahagaze barimo umugabo wambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru y'abaganga na baje mu ijosi kuri iyi nyubako handitseho MIS UR.

Icyumba bavuriramo abarwayi, harimo amarido y'umweru n'agatanda k'umukara.

Aha ni kwa muganga harimo abaganga babiri bambaye amataja y'umweru, harimo umugore uhetse umwana, harimo n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara na baji mu ijosi, imbere yabo hari igitabo kiribambitseho ikaramu n'icupa bashyiramo imiti, hari n'isahani.

Aha ni kwa muganga turahabona inyubako zigeretse zizwi ku izina rya etaje, hejuru mu nyubako hari abantu bahagaze ndetse n'uri kuzamuka yerekeza hejuru, imbere y'inyubako turahabona abantu benshi bahagaze bamwe bambaye imyenda y'abaganga abandi bambaye imyenda isanzwe.

Aha ni kwa muganga hanze hari abaganga benshi, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, abandi ntayo bambaye, barimo koza utubati tw'umweru twifashishwa kwa muganga, muri iki kigo kandi hateyemo umukindo.

Abantu bahagaze hamwe, barimo abagabo n'abagore, bambaye imipira y'umweru, amapantaro, n'amajipo by'umukara, bose bamanitse ukuboko kw'iburyo.

Abantu bahagaze hamwe barimo kwifotoza, imbere yabo hateretse ibikarito bafashe tereviziyo mu ntoki.

Aha ni kwa muganga icyumba k'isuzumiro, hari igitanda cy'abarwayi, imbere y'iki gitanda kandi hari n'intebe.

Abagabo babiri bahagaze imbere yimodoka barimo kwifotoza. Iyi modoka ifite plaqu magana atandatu mirongo inani nakarindwi E.

Aha ni muri laboratwari harimo abagabo babiri bicaye n'umugore wambaye ishati y'umweru na ga mu ntoki, imbere ye hari impapuro ndetse n'uducupa.

Aha ni mu cyumba cya raburatwari harimo abantu babiri bambaye bikwije bambaye ibintu by'umweru na ga mu ntoki, imbere yabo hari ibintu bicometse mu maso.

Umuganga wambaye ishati y'umweru, ga mu ntoki ndetse afite n'urushinge, inyuma ye kandi hari agatanda kariho igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi.

Aha niini mu cyumba kizwi nka laboratwari, akenshi biba kwa muganga byifashishwa barimo gupima ngo bamenye indwara abantu barwaye, ahangaha turabonamo abantu babiri, harimo umugabo wambaye amarinete, arimo kurebera mu cyuma afite ibintu harimo gupima imbere ye kandi hari n'undi barimo kurebana.

Abantu bicaye bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa tw'umweru na ga mu ntoki barimo gutunganya amaporoduwi.

Mu Rwanda bita ku buzima bw'abana bato nk'uko tureba hano hari umwana barimo gupima ibiro, impande yabo hari undi mubyeyi uhagaze ahetse umwana, yamupfutse agashora ku mweru, harimo n'abandi babyeyi bicaye.

Abantu bicaye hamwe bambaye imyenda isa harimo abagabo babiri b'abasirikare n'undi umwe wambaye ikote na karuvate y'umutuku, inyuma yabo hateye ibiti ndetse hari n'icyapa cyanditseho RBC.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima bw'ababyeyi n'abana, turahabona abana benshi barimo kuza gukaraba mu ntoki kuri kandagira ukarabe, hari umukobwa mukuru wambaye ipantaro arimo kubakarabya, hari inyubako ifite amadirishya n'inzugi bisize irangera ry'ubururu.

Mu icyumba bafashirizamo abana aho batanga inama z'uburyo bakwita ku mwana, bagira ubuzima bwiza, hari umugore ufite umwana ndetse imbere hari undi mukobwa wicaye wambaye umupira w'umweru, afite ikaramu mu ntoki n'igita imbere ye arimo kwandika.

Abana benshi bicaye ku kirago bakoze uruziga, barimo kunywa igikoma, bamwe bafite ubukombe bw'umweru, ubw'umuhondo, bw'umutuku, bw'icyatsi, n'ubw'ubururu.

Abana bicaye ku kirago hagati yabo harimo umukobwa ufite igitabo arimo kubaganiriza.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima bw'ababyeyi n'abana turahabona umugore wicaye uteruye mwana mu ntoki, impande ye hicaye umugabo wambaye itaburiya y'umweru, inyuma yabo hari inyubako isize amarangi y'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bahagaze imbere y'ishuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bafashe icyapa cy'umweru cyanditseho ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imbere y'icyo cyapa hari umuhungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kake, ubona ko barimo kwifotoza.

Abantu bicaye bari mu nama hari umugore wambaye imyenda y'umweru n'amarinete afite indangururamajwi mu ntoki, imbere y'aba bantu kandi hateretse amacupa y'amazi.

Abasore babiri bambaye amajire ariho icyapa cya kuruwaruje n'umugabo wambaye umupira w'ubururu baturiye umusore bagiye kumushyira mu modoka y'imbangukiragutabara.

Icyumba harimo icyapa cyanditseho twite ku buzima bwo mu mutwe, harimo intebe, ameza ateretseho amazi.

Abantu bicaye mu ntebe abandi bicaye hasi mu biti, imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki.

Umukobwa urimo kubyina afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyanditseho igiterane cy'ivugabutumwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge.

Dukwiye kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko nibwo butuma abantu babaho neza, ahangaha turabona icyapa cya RBC, cyanditseho baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, aho hari ubukangurambaga bwo ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi bicaye mu itete ry'umweru, imbere yabo hari umugore wambaye umupira w'icyatsi, akenyeye igitenge, hafi yaho kandi hari inyubako y'ibiro by'Akagari.

Abantu bicaye hamwe, bakoze uruziga, hirya y'abantu hari inyubako ndetse hateye n'indabo.

Abantu bari mu nama bicaye mu ntebe z'umweru bamwe bafite impapuro mu ntoki bicaye mu ihema ririmo amabara atatu, umuhondo, ubururu n'icyatsi, imbere y'aho bicaye kandi hari igiti gitoya.

Aha ni muri farumasi harimo imiti bwoko butandukanye. Imwe iri mu bikarito, iyindi ikaba mu ducupa.

Farumase irimo imiti yu'ubwoko butandukanye, muri iyi nyubako harimo intebe, kuri iyo ntebe harambitseho ishati y'umweru.

Inyubako ya farumasi harimo umukobwa wambaye itaraburiya y'umweru azamuye akaboko, hari n'imiti itandukanye itondetse ku murongo , ahangaha iyo abarwayi barwaye barahagana bakabaha imiti, ikabafasha kongera kugira amagara masemare.

Inyubako ya farumasi yanditseho Happiness Pharmacy Limited, umuryango wayo urafunguye, imbere yawo kandi hari umuhanda w'amapave, aha ngaha uhaza warwaye bakaguha imiti, ukongera ukamera neza.

Iyi ni inyubako izwi ku izina rya farumasi, harimo imiti igi itandukanye, hariri mu dukarito n'iri muducupa. Aha niho abarwayi barwaye bagana kugira ngo bongere kugarura ubuzima. Muri iyi nyubako kandi harimo mudasobwa yifashishwa bari kwandika imiti bagurishije.

Farumasi irimo imiti myinshi, ubwoko butandukanye, imwe iri mukarito, iyindi ikaba mu macupa, muri iyi nyubako kandi harimo n'abagabo babiri.

Aha ni muri farumasi, harimo abakozi babiri, imbere yabo hari imiti, umwe afite ikaramu mu ntoki, undi afite agapapuro ari gushyira ibintu muri mudasobwa, imbere yabo kandi hariru umugore uri kumwe n'umwana.

Inyubako izwi ku izina rya farumasi, harimo umuntu uhagaze w'umugabo wambaye ishati y'amabara y'umuhondo n'umukara. Harimo imiti itandukanye hari iri mu ducupa ndetse n'iri mu dukarito. Aha ngaha bafasha abantu barwaye bakabaha imiti kugira ngo babashe kumera neza.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, imbere yabo hari abantu bafite ibyapa byanditseho, birakureba rinda umuryango wawe Malariya.

Abantu bahagaze hamwe bambaye bikwije ahantu hose, aha hantu kandi hari n'abapolisi babiri hagati yabo harimo umugabo wambaye ikositimu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe, mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima, ku meza ari imbere yabo hariho amacupa arimo amazi, harimo umusirikare wicaye ku ntebe y'imbere ye, yambaye amataratara, harimo n'umugore uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki.

Aha hari abantu bamwe barahagaze abandi baricaye, bicaye mu ntebe z'ubururu zanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, inyubako iri impande y'aho abantu bicaye hariho icyapa gisize irangi ry'umutuku cyanditseho RBC.

Abantu bari mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima, harimo umugore wambaye ikanzu yi'igitenge, ahetse igikapu cy'umukara, impande ye hari umugabo wambaye ingofero y'umukara afite inkoni mu ntoki, harimo n'undi wunamye wambaye kasike mu mutwe.

Abaturage benshi bicaye hasi mbere, imbere yabo hahagaze umugore urimo gtanga ikiganiro, yambaye ijire y'umukara, aho bicaye kandi harimo ibiti birebire, inyuma yabo hakaba hari n'amazu.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze, abandi barasutamye, bafashe igitambaro, mu ntoki hafi yabo, hari ibiti.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari abantu babiri umugore n'umugabo barimo kubyina, impande y'aho abantu bari hari n'amazu.

Abanyeshuri bari mu muhanda bambaye impuzankanno y'ishuri barimo kwamagana ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, abanyeshuri nabo mu kigo cyitwa GS Akumunigo, impande yabo kandi hateye ibiti.

Umugabo uhagaze arimo gutanga ikiganiro, inyuma ye hari icyapa cyanditseho urubyiruko koresha agakingirizo; aho uyu mugabo ahagaze hari intebe z'umukara, hirya ye kuruhande rw'ibumoso kandi hari umugabo uhagaze.

Abantu barimo abagore, abakobwa, n'abahungu, bahagaze imbere y'inyubako, bafashe icyapa cyanditseho RBC.

Ibi ni ibibabi by'ibiti byo mu ishyamba, kuri ibyo bibabi harambitseho n'imbuto zo ku biti.

Umuntu wambaye ubusa hejuru, arwaye indwara y'uruhu bakunze kwita ise.

Inyubako isize amarangi y'ubururu, yanditseho Girubuzima, kandi imbere y'inyubako hahagaze abantu benshi kandi hateye n'ururabo.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga harimo abantu benshi, hari umubyeyi uhagaze uteruye umwana ndetse afite n'ifishi y'umwana mu ntoki.

Aha ni kwa muganga mu cyumba kirimo abarwayi, ibitanda bimwe biriho abarwayi ibindi nta barwayi bariho, muri iki cyumba kandi harimo n'inzitiramibu.

Umurwayi wicaye imbere ya muganga, amufashe akaboko, kumeza hari impapuro, ikaramu n'igikoresho bapimisha umuvuduko w'amaraso.

Ivuriro risize amarangi y'ubururu n'amabati y'ubururu, turahabona abantu bahagaze imbere yaryo, impande yaho kandi hari indi nzu ifite amabati y'umutuku ,imbere y'inyubako hari puberi y'umuhondo bashyiramo imyanda.

Abantu benshi bicaye mu ntebe imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, arimo kuganiriza impande hari umugore wambaye itaburiya y'ubururu bwerurutse.

Abantu benshi bari hamwe bishimye, bambaye amabaje, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho gira ubuzima, impande y'iyo nyubako hateye indabo n'igiti.

Aha ni ku bitaro bya Kigeme hari abagabo bambaye amakositimu, hari n'abagore bambaye amakanzu, n'abana bicaye ku ntebe, mu muryango w'ibi bitaro harimo umuganga urimo kwinjira, ibitaro bifite idirishya risize irangi ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga abavurira amenyo, hari umugore uryamye ku gatanda, inyuma ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa akagofero mu mutwe na ga z'umweru mu ntoki arimo gukura umugore iryinyo.

Abantu bicaye mu ntebe hari umugore uhagaze imbere yabo wambaye baje mu ijosi, hari undi mugore wicaye mu ntebe imbere yabo ari kubareba, afite mudasobwa imbere ye n'icupa ry'amazi.

Aha ni ku ivuriro hari inyubako ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu, urugi r'wubururu, ku muryango w'urugi hahagaze umugabo ufite agakapu k'umutuku mu ntoki arimo gukomanga ku rugi, inyuma ye hari abandi bantu barimo abagore n'abakecuru, impande yabo kandi hari umusekirite wambaye imyenda y'akazi afashe n'inkoni mu ntoki.

Inyubako yo kwa muganga isize amarange y'ubururu ku muryango hahagaze umuntu wambaye agapfukamunwa n'igisarubeti cy'ubururu hari kandagira ukarabe y'umweru kuri iyi nyubako handitseho Gira ubuzima herufu posite.

Aha ni kwa muganga hari inyubako isize amarangi y'ubururu, yanditseho gira ubuzima. Imbere y'iyi nyubako, hari kandagira ukararabe hari n'abantu bicaye ku ntebe, hari abandi barimo kugenda barimo umugore wambaye amarinete.

Abantu bicaye muri sale yo kwa muganga, harimo abagore bateruye abana, imbere yabo hasi harambitse umutaka w'umutuku, hari n'umugore urimo kwinjira mu muryango.

Inyubako yo kwa muganga isize amarange y'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, impande y'inyubako hari ikigega cy'umukara, imbere yaho hari abantu bicaye, abandi barahagaze harimo umugore wicaye ateruye mwana.

Umuganga wicaye ku ntebe imbere ye hari umurwayi w'umugore ari kwandikira ku meza ariho igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi.